Abaganga babiri bahagaze, umwe ari imbere undi ari inyuma, bateruranye ikintu mu ntoki, bombi bambaye agapfukamunwa, uw'imbere yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara, imbere yabo haparitse imodoka ya minisiteri y'ubuzima yo mu karere ka nyagatare ku bitaro byaho.

Mu bitaro kwa muganga hari abaganga batandukanye bahagaze kandi bambaye bikwije hose badupfukamunwa hari umurwayi uri ku gitanda uri kwitabwaho na muganga.

Imbangukiragutabara ihagaze iparitse ifunguye, bagiye kuyishyiramo umurwayi imbere yabo hari bandi baganga n'undi muntu uri gufotora kandi hari n'intebe y'abafite ubumuga.

Ubutabazi bw'ibanze ari mu Crox Rouge wambaye ikirango cya croixroge n'ingofero, ari kumwe n'abaturage, imbere y'ibitaro harimo abaganiriza, harimo abagore n'abagabo bahagaze imbere ye bamuteze amatwi.

Kwa muganga mu cyumba aho bakira abarwayi harimo umugabo uryamye ku gitanda areba hejuru. Mu maguru ye harimo ifishi yivurijeho kandi ku kaboko k'ibumoso hariho selomo bamuteye kugira ngo agarure ubuzima.

Abakobwa bane bahagaze hamwe ku murongo uri gufata ifoto bose bafite ibisuko kumutwe kuri batatu kereka undi wa kane niwe utabifite kandi bambaye imipira yumweru isa.

Mu bitaro kwa muganga ahari ibitanda bitandukanye intebe kandi harimo n' ibindi bikoresho byifashishwa kuvura abarwayi kandi kikaba cyubatse neza harimo n'utubati.

Abaganga batatu bari kumwe, umwe afashe urupapuro mu ntoki, bambaye bikwije hose imyenda y'umweru n'udupfukamunwa, umwe afashe ufite ubumuga wicaye ku kagare.

Ikirango cya Croix Rouge gihagaze kandi gishushanyijeho umugore n'abanyamuryango ba Croix Rouge, mbere yacyo hari abagore bahagaze bari kureba muri telefone bari kumwe n'umwajenti wambaye ijiri ya MTN.

Kwa muganga mu cyumba aho bakirira umurwayi, harimo umuganga ufite ibisuko ku mutwe, n'umurwayi uryamye ku gitanda areba hejuru, arambitseho ishuka, ufite umusatsi mukeya muganga ari kumuvura.

Mu bitaro ahari indabyo ikindi giti giti n'inzira y'abagenzi b'abarwayi isakaye kandi buri ruhande rugiye ruriho indabyo z'amoko atandukanye.

Kwa muganga mu cyumba hari igitanda kitariho umuntu kandi hari n'intebe ebyiri n'izindi ziri hirya y'izindi kandi harimo umugezi aho bakarabira n'ibindi bikoresho byifashishwa bita ku barwayi.

Ku bitaro kwa muganga aho bakirira abarwayi hari abaganga bicaye bari kwandika befite amakayi n'amakaramu, babiri bambaye amataratara bafite n'ibisuko ku mutwe undi ari gukoresha mudasobwa, imbere yabo hicaye abarwayi bicaye ku buryo barebana na bo.

Abagabo benshi bahagaze hamwe ku murongo bari bifotoza kandi bamwe bambaye amataburiye abandi bambaye imipira n'inkweto, inyuma yabo hari inyubako ndende igeretse.

Muri sare mu cyumba mberabyombi ahari abaturage barimo baganirizwa na muganga kandi bicaye ku ntebe z'imbaho zikoze mu biti, hari n'ameza ariho ibitabo n'igikapu cy'umurwayi.

Abagabo bicaye hamwe hagati yabo harimo ameza yicaye kuburyo barebana bafitanye ibiganiro, umwe ari umusirikare yegeranye na mugenzi we, undi ari umusaza, hirya yabo nabo ari uko bimeze kandi bigaragara bari kwa muganga kuko hari yo muganga wambaye agapfukamunwa uri kwakira umurwayi.

Ku bitaro aho abarwayi bivuriza harimo abagore kandi bicaye, abandi bahagaze bahetse n'abana, umuganga ahagaze afite amafishi mu ntoki n'ikaramu.

Umugabo wicaye uri kwa muganga arimo yitabwaho, yicaye ku ntebe ikoze mu biti yegamirwa, muganga amufashe akaboko k'ibumoso ari ku kavura.

Kwa muganga mu cyumba aho bakirira abarwayi, harimo umurwayi wicaye w'umugabo yambaye ipantaro ku ntebe yegamirwa, araramye ari kumuvura mu jisho muganga ahagaze imbere ye yambaye agapfukamunwa.

Ku kibuga cy'umupira hari abakinnyi bicaye bari kuruhuka, bamwe bafite umupira mu maguru kandi bambaye amajezi, abandi bahagaze bari kubareba mu kanya kabo ko kuruhuka, aho bari hari n'utwatsi, nyuma yabo hari ibiti bikuze.

Abagore bicaye ku murongo bagiye bafite abana n'abandi bagabo bahagaze hafi aho bambaye amakarita mu ijosi hari umugabo uri kugenda aha abana imiti kandi hirya y'aho hari n'abandi bagore benshi bicaye baje gukingiza bamwe bagiye bafite n'ibipande byo gukingirizaho.

Abaturage batandukanye biganjemo abagore bafite abana bamwe bari ku bonsa abandi batari ku bonsa bicaye hamwe ku ntebe z'imbaho kandi zitondetse ku murongo mbere y'abo hari umugabo wicaye ku gatebe kegamirwa afite ikaramu ari kwandika yandikira ku bibero bye.

Abantu bicaye hamwe benshi, abari mu nama kandi b'abayobozi, bamwe muri bo bambaye amakarita y'akazi, abandi babagore bateze ibitambaro, abandi batabifite.

Kwa muganga mu bitaro mu cyumba aho bavurira abarwayi harimo umuganga wambaye itaburiye, ikarita n'intebe ziriho ibikoresho bye n'ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi babiri, bombi baryamye bareba hejuru.

Indabyo zikuze ariko sidakase n'icyapa kiriho amagambo yanditse mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umukara cyanditse ngo ikigo nderabuzima cya Nyagatare.

Ku ibitaro aho bavurira abarwayi hari abasirikare bahagaze begeranye hari n'abandi baturage bari kumwe na bo, na bo bahagaze harimo n'abaganga bambaye amataburiye abandi baturage bari inyuma yabo, imbere yabo hari umugore uri gutanga ikiganiro.

Kwa muganga ku bitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku barwayi bagiye batandukanye, hari indabyo n'igiti cy'umusebeya kandi mu kibuga cyaho hakaba harimo umwana ari gukina na muganga wambaye itabuririye y'umweru.

Imbangukiragutabara ihagaze ahantu ku mapave kandi ashashe neza imbere y'ibitaro itegereje umurwayi, hirya yayo hari ikigega kijyamo amazi cy'umukara kinini.

Ku bitaro ni umugore iteruye umwana, igipande mu ntoki, n'agakarita ka mituweli, yambambaye iribaya, imbere ye hari abandi barwayi bicaye ku ntebe harimo n'abandi bagiye bahagaze.

Umugabo numugore bahagaze ku murongo umugore afite imisatsi irimo amabara yifubitse igitambaro umugabo yambaye ishati bafashe igihembo mu ntoki kiriho ikirango k'igihugu.

Kwa muganga mu cyumba aho bakirira abarwayi harimo abantu bane, abagabo babiri bahagaze umwe yambaye itaburiye y'umweru, imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa, undi mugabo ari gufasha umurwayi uryamye mu gitanda aryamiye urubavu rw'ibumoso.

Umukecuru wicaye mu ntebe imbere ye hari umukobwa nawe wicaye ufashe Bibiliya yambaye n'agapfukamunwa n'umupira w'umweru, ari kumusomera ijambo ry'Imana ryo kubahumuriza mu bihe byo gukiranuka kwabo.

Abantu bahagaze hamwe higanjemo abagabo n'abagore babiri batatu begamiye imbangukira gutabara, hakurya yabo aho imodoka iri guturuka hari ishyamba ririmo ibiti binini kandi birebire aho bahagaze ari kumapave ashashe neza.

Muri raboratwari hariri ibizami byinshi byafashwe abarwayi, harimo ikindi kiri gusuzumwa gifashwe n'akaboko katagaragara kambaye ga z'ubururu kandi umuntu we atagaragara.

Kwa muganga mucyumba aho abaganga basuzumira ibizamini byafashwe abarwayi kugirango ngo bamenye neza indwara nyakuri bafite babashe kubaha imiti yabakiza uburwayi bafite.

Kwa muganga mu cyumba muri laboratoire, aho basuzumira ibizami bafashe abarwayi, harimo umuganga wambaye itaburiye y'umweru na ga mu ntoki n'agapfukamunwa, arimo asuzuma ibyafashwe.

Kwa muganga mu cyumba muri laboratwari ahicaye umuganga aho basuzumira ibizami byagiye bifatwa abarwayi kugira ngo bamenye indwara barwaye n'imiti yabasha kubakiza ubwo burwayi baje bafite.

Kwa muganga mu cyumba aho bafatira ibizamini by'abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye, muganga yicaye mu ntebe yambaye ga ari kumwe n'uwaje kwivuza ari kumufata amaraso mu gatoki kugira ngo arebe uburwayi afite.

Muri laburatwari, aho bafatira ibizami by'abarwayi, bakabisuzuma, ngo barebemo indwara zo mu maraso, harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kubipima bimeze nk'ibirahure, bibonerana.

Umuganga wambaye amataratara na ga z'umweru n'itaburiye y'ubururu ari kumwe na mugenzi we ufite umusatsi kandi wambaye agapira k'umweru imbere y'itabuye barimo basuzuma.

Kwa muganga muri laboratwari aho basuzumira ibizamini bafashe abarwayi baje kwivuza bafite uburwayi ugiye bunyuranye, harimo umuganga arimo asuzuma kugira ngo arebe uburwayi bafite.

Abaganga batatu bicaye hamwe bashyize buri muntu ikiganza hejuru, bari kumwe n'undi mugabo utari umuganga kandi bari mu cyumba k'ibitaro, bakaba bambaye imyeru hejuru.

Umugore uhagaze ufashe inkongoro y'amata n'akaboko k'iburyo ari kuyanywesha umwana mutoya, wogoshe wambaye iniforume yo mu mashuri abanza, kandi inyuma ye hakaba hari undi mutoya.

Abantu batandukanye bicaye hamwe ku gisambu hari ibyatsi bitoya kandi hari intebe z'imbaho n'ameza n'izindi zamwegamirwa zicayeho abayobozi, imbere yabo hari agakayi kari ku meza abandi na bo bambaye ikanzu nk'iy'abisilamu.

Isafuriya iteretse nini yogeje ikeye ifite isuku imbere n'inyuma. Iruhande rwayo hahagaze abagore batagaragara igice cyo hejuru kandi irimo ibiryo bitunganyije neza by'imvange byujuje intungamubiri.

Abagore bageze kuri bane bahagaze hamwe, harimo n'umwana w'umukobwa kandi imbere yabo hari uruhinja, bombi bari kurureba rufitwe n'umuganga ari kurwitaho ruri kureba inyina mu maso.

Kwa muganga mu bitaro mu cyumba cy'abarwayi hamanitse supaneti zizinze kandi abarwayi bamwe na bamwe baryamye ku bitanda, abandi bicaye harimo n'abagore bafite abana batoya babateruye.

Inteko rusange y'abaturage bari mu nama iyobowe n'umugore uhagaze, afite urupapuro mu ntoki n'indangururamajwi ayifatishije akaboko k'iburyo, yambaye umupira uriho ikirango k'Ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima, abaturage bicaye imbere ye bamukurikiye.

Abagabo batatu b'abaganga bari hamwe ku murongo bahagaze, bambaye imyenda y'umweru y'amasarubeti kuva hasi kugera hejuru, mu maso hose bapfutse n'inkweto z'umukara, uwo hagati ateruye umwana.

Umugore wicaye ku gitanda kwa muganga, afite umwana amukikiye, ari mu isume, arimo amwonsa kandi afite igipfuko ku kaboko k'iburyo.

Abana batoya bicaye mu ishuri ku ntebe z'imbaho ariko bagiye batandukanye, bafite ibikombe by'umweru, babishyize ku munwa bari kunywa kandi bose bambaye amakabutura y'ubururu n'amajipo y'ubururu, harimo n'abatambaye ay'ubururu n'imipira itukura.

Umugore wicaye ari kumwenyura, yicaye ku gitanda kwa muganga afite umwana w'uruhinja rutoya mu ntoki yasinziriye kandi amufite mu isume anamufatiyeho agapfukamunwa.

Igishushanyo kiriho umugore n'umugabo baryamye, n'umubu uciyeho umurongo, cyanditseho ngo ''icyumweru cyahariwe kurinda ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana'', kandi ngo '' irinde malariya.''

Igishushanyo cyanditseho ngo isuzume umenye urugero rw'umuhangayiko wawe unyuze ku rubuga rwacu. Kandi kiriho indi mitwe igaragaza ubwonko bwa muntu.

Abantu bari ku murongo bambaye inifomu imipira isa kandi hasi bambaye ibitandukanye, bafite udupirizo mu ntoki batuzamuye mu kirere bakoresheje amaboko y'iburyo kandi bambaye n'amakarita mu ijosi.

Kwa muganga, mu cyumba, aho bakirira abarwayi, harimo umusaza wicaye, wambaye ikote ufite imvi, iruhande rwe hari umugore na we wicaye ku ntebe yegamirwa, ikoze mu giti, imbere yabo hari umuganga uri kwandika abafata ibizamini.

Umugabo wambaye umupira w'umweru isaha y'umukara akaboko k'ibumoso uhagaze impapuro mu ntoki afite mikorofone ku kaboko k'iburyo yambaye n'amataratara ari gutanga ikiganiro imbere ye n'inyuma ye hari abandi bicaye aho bambaye imipira y'umweru hose isa.

Inyubako ya Isange one stop center aho abaturage bajyana ibibazo n'ibyifuzo bafite, yubatse neza ikoreshejwe amatafari ahiye kandi hafi n'idirishya hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kizwi nka kizimyamwoto.

Muganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ariko ufite ikarita mu ijosi, upfutse ikiganza, agatoki k'ibumoso gapfutse, kandi inyuma ye hariyo mudasobwa n'ibitabo mu kabati.

Umugabo wicaye ku ntebe yegamirwa yambaye ingofero n'ishati itukura n'ipantaro ijya gutukura, imbere ye hicaye umugore wambaye amarinete, ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara amufasheho amuhumuriza kuko umugabo yitangiriye itama.

Abaturage benshi bari hamwe barimo n'umupolisi bari mu muhanda ahari amapave, iruhande rwabo hari indabyo zikuru, inyuma yaho hari amazu bakoze ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda.

Umuganga wambaye itaburiye wicaye kandi afite ibisuko ku mutwe, yashyize amaboko yombi ku meza, ariho igitambaro yicaranye n'undi mugore nawe uteze igitambaro cy'umukara, yicaye areba imbere ye.

Ubukangurambaga bwari bufite insanganyamatsiko yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, bwabaye mu mwaka w' ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, ku itariki makumyabiri n'umunani ukwezi k'Ukwakira, bavuga bati "twongere imbaraga mu kwita ku buzima bwo mu mutwe".

Umukozi w'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima wicaye, imbere ye hari ameza n'indangururamajwi ari kuyivugiramo atanga ikiganiro, inyuma ye hari abagabo bahagaze nabo bamukurikiranye.

Muri farumasi aho batangira imiti y'ubwoko butandukanye, harimo umugabo wambaye umupira ufite ikora umweru kandi imbere ye hari ubuvido burutana kamwe k'amacupa atanu akandi gatoya hari n'amacupa yandi.

Muri farumasi ahaba imiti itandukanye baha abarwayi harimo umuganga ukoramo wambaye itaburiye y'umweru n'amataratara kandi inyuma ye hamanitse amoko y'imiti agiye atandukanye ari mu dukarito no mu macupa.

Mu nyubako ya farumasi aho batangira imiti bayiha abarwayi harimo amacupa atandukanye y'imiti y'ubwoko bunyuranye atenze ku murongo andi agiye agerekanyije.

Farumasi inyubako itangirwamo imiti baha abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye, ikaba igiye iri ku murongo imwe hasi indi hejuru, imwe ikaba ifunze mu dukarito indi ikaba ifunze mu macupa afite amabara atandukanye.

Imbere muri farumasi harimo mudasobwa icometse nta muntu uri kuyikoresha, hirya hari umuntu wicaye n'abagabo babiri bahagaze harimo n'imiti mu tubati.

Inyubako y'imiti, aho abarwayi, bafatira, imiti y'indwara, zitandukanye, harimo, imiti igiye, itandukanye, iri mu macupa, indi iri mu dukarito, igiye itenze, ku murongo, ku buryo yerekanye.

Muri foromasi aho abarwayi bagurira imiti y'indwara zitandukanye , harimo imiti igiye inyuranye, imwe yo mu macupa, indi iri mu dukarito kandi itenze ku murongo, imwe hasi ndi hejuru.

Inzu y'imiti y'abarwayi izwi ku izina rya farumasi, irimo imiti myinshi itondetse ku murongo, ku buryo bugiye bugabanyijemo udukoloni, ikaba irimo utugera kuri dutanu kandi buri gakoloni kariho imiti.

Muri farumasi aho bagurira imiti abarwayi harimo imiti igiye itandukanye iri mu macupa indi igiye iri mu bikarito harimo akaboko gafashe umwe mu miti iri hejuru ku kabati mu gikarito.

Icyapa cyerekana serivisi zigiye zitandukanye zihabwa abarwayi barwaye indwara zigiye zinyuranye, harimo nko kuba babagwa, kuboneza urubyaro ndetse n'ubuvuzi bw'amenyo, n'ibindi binyuranye bitangirwa muri farumasi.

Abantu benshi bari hamwe kandi harimo Umupolisi, abandi, bagabo n'abagore n'abana bateruwe na ba nyina n'umwana mutoya uryamye areba hejuru ari kwitabwaho.

Abantu benshi bicaye hamwe mu nyubako icyumba kinini mberabyombi bari ku ntebe z'umweru imbere yabo hari umugabo uhagaze arimo abaha ikiganiro yifashishije ibishushanyo.

Igishushanyo cyanditseho UR Campuses Tour on SRHR kandi kikaba cyanditse inyuguti z'umuhondo, hasi handitseho itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi. Bikaba byarabereye Nyagatare ariho amerekezo ari.

Abantu benshi bicaye hamwe ahantu hubakiye, hubatse itente kandi bagiye bambaye imipira y'umweru isa, hejuru hari intebe z'umweru, higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu benshi bari hamwe bamwe bicaye abandi bahagaze bitabiriye ubukangurambaga kabaye ku isi yose bwo kurwanya malariya, mu mwaka wa ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umugore wicaye iruhande rwe hari umugabo uhagaze wambaye ikote, hasi imbere yabo ku meza hariho mudasobwa kandi umugore afite ibikombe mu maboko yombi, ari kureba n'amashusho mu yindi televiziyo ibari imbere.

Abantu bahagaze, kandi, bari, mu bukangurambaga, bufite intego, igira iti, koresha agakingirizo, ubungabunge, ubuzima bwawe, hakaba higanjemo, abagabo barimo, abagore batatu.

Inama rusange y'abaturage bahuriye hamwe mu nzu mu cyumba kinini mberabyombi, iyobowe n'umugabo uhagaze imbere yabo afite indangururamajwi ayifatishije amaboko yombi, abandi bicaye mu ntebe za palasitiki z'umweru bakurikiye ikiganiro bari kugezwaho.

Ubukangurambaga bwo kuvura abaturage babegereye aho baherereye mu ngo zabo, aho bari kuvura umugabo wicaye ubyibushye, avurwa na muganga wambaye itaburiya y'umweru uhagaze yamushyize igipimo ku kaboko gipima umuvuduko.

Umuntu uryamye areba hejuru arambuye akaguru ikirenge ke gifashwe n'ibiganza bibiri bitagaragaza nyirabyo kandi abirambitse ku mashuka y'umweru.

Tega ukarabe ikoze mu ndobo, ifashwe n'ibyuma iriho n'akabase, iri gukarabirwaho n'umugore uteze igitambaro, wifubitse n'ikindi ukenyeye igitenge.

Umugore uhagaze uteruye umwana akaboko k'iburyo, ufite igipande mu ntoki n'agakarita ka mituweli, wambaye iribaya ndetse n'igitambaro kandi iruhande rwe hari abandi barwayi na bo bicaye bose bari mu nyubako y'ibitaro.

Ku bitaro kwa muganga ahari abarwayi batatu, babiri bicaye ku ntebe y'urubaho ikoze mu giti, umwe afashe umwana ari kumwonsa, undi murwayi wa gatatu ari ku idirishya ryo kuri mituweri na we ahetse n'umwana.

Inkoko eshatu zishushanyije kandi ebyiri ziri hamwe zihagaze, indi ishushanyije ukwayo kandi icuramye kandi ibishushanyo biriho bigiye bifite amabara atandukanye.

Kwa muganga ahari abantu benshi batandukanye bamwe bagaze abandi bicaye harimo abagore bafite abana batoya bazanye n'ibipande byabo byo kubakingirizaho umugabo ari kugenda aha abana imiti.

Igishushanyo kiriho amoko y'imiti y'inyamaswa agiye atandukanye, nk'inyamaswa z'amoko menshi harimo: inka, ingurube, ihene, kandi agiye ashushanyijeho ku bikarito.

Kwa muganga ahari muganga wambaye itaburiye y'umweru ufite amaherena ku gutwi, imbere ye hari ameza ariho ikaramu n'ibipapuro yanditseho, afashe mudasobwa arimo ayikoresha.

Mu ikigonderabuzima mu cyumba aho basuzumira abarwayi, harimo umugore wicaye ku ntebe ikoze mu giti yegamirwa, imbere ye hari umuganga ufite igipande n'ikaramu mu ntoki wambaye impeta y'umweru n'amataratara ari kumusuzuma. Hirya ye mu kaboko k'iburyo hicaye undi muganga w'umugore nawe afashe ibipande n'ikaramu mu ntoki.